Amashuri ashyirwaho kugira ngo abana bayagane bahabwe ubumenyi, bazabone uko bakora inshingano abakuru bari gukora ubu kuko na bo aribo bazabasimbura.

Abana ntabwo bafatira amasomo mu ishuri bigiramo gusa, ahubwo bajyanwa no hanze kugira ngo bagire ubundi bumenyi bahabwa bushingiye ku bimera.

Abana bato bahurizwa hamwe muri gahunda yashyizweho na leta, izwi nk'irerero, hanyuma bagahabwa iby'ingenzi bakeneye harimo amasomo ajyanye n'ikigero cyabo.

Kugira ngo abana barusheho kugira ubuzima bwiza, aho biga ku mashuri bashyiriweho uburyo bwo kuyungurura amazi banywa, bakayanywa ari meza ndetse bigatuma birinda indwara zanduzwa no kuba banyweye amazi mabi.

Mubyeyi zirikana kujyana umwana wawe mu irerero kuko bizatuma igihe cyo gutangira andi mashuri bimworohera kuko hari iby'ingenzi kandi by'ibanze azaba yaratojwe.

Irerero rirafasha kuko abana bashyirwa hamwe bakagira ibyo bigishwa bijyanye n'ikigero bagezemo, bikazatuma igihe cyo gutangira amashuri bitabagora kuko hari iby'ingenzi baba barigishijwe.

Abana bahabwa ibitabo bibafasha mu myigire yabo ndetse n'ababareberera bakabafasha kubicunga neza kugira ngo batabyangiza kuko bagomba gutozwa umuco wo gusoma hakiri kare.

Gahunda y'irerero yafashije Abanyarwanda, cyane abafite abana bato, bajyaga babura aho babasiga igihe bagiye mu mirimo, cyangwa se ugasanga babasigiye abandi bana batoya, bikaba byatuma hari ikibazo bahura nacyo.

Mubyeyi igihe wohereje abana bakiri batoya ku ishuri, biba byiza bajyanye n'umuntu mukuru cyangwa nawe ukamuherekeza, kuko bagenda barangara mu nzira, ugasanga hari n'igihe bakiniye mu muhanda hagati kandi hacamo n'ibinyabiziga.

Ahari irerero abana bitabwaho kuko bahabwa n'amata ndetse bagahabwa n'igikoma kugira ngo intungamubiri zikomeze kuba nyinshi muri bo, babone uko bakura neza.

Aho bashyiriyeho gahunda y'irerero, byatumye abana bajijuka, kugira ngo bazatangire amashuri bamaze gusobanukirwa, bimwe na bimwe mu byo bagenda batozwa.

Kugira ngo harushweho kwitabwa ku buzima bw'abana, hagenwa gahunda yo kubaha amafunguro bafatira aho bafatira amasomo kugira ngo bibafashe gukurikirana andi masomo akurikiyeho kandi bibarinde no kugwingira.

Abana bigishwa uko bazajya bakora isuku ku ntoki zabo, bagakaraba amazi meza ndetse n'isabune kandi imyanda bakayikaraba yose ikava ku mubiri wabo bityo bigatuma batandura indwara ziterwa n'uko bariye imyanda yo ku ntoki.

Abanyeshuri bigishwa ibice bigize umubiri w'umuntu kugira ngo babisobanukirwe kandi bamenye n'akamaro ka buri gice cy'umubiri w'umuntu.

Ahubakwa amashuri yitabwaho n'uko bagomba kongera ubwiherero buhari, kuko hari igihe usanga abanyeshuri biyongera ariko ubwiherero bwo ntibwongerwe.

Ibigo by'amashuri bigenda byongera ibyumba kugira ngo abanyeshuri barusheho kwiga bisanzuye kandi kuko buri mwaka hari abandi baza gutangira na bo babone aho bigira.

Hari ibigo by'amashuri byashyizeho inzira isakaye cyangwa itwikiriye, aho abagenda n'amaguru baca kugira ngo igihe cy'izuba ryinshi cyangwa imvura ibikorwa byose bikomeze bikorwe nta kibazo.

Abanyeshuri bahabwa amasomo kandi bakagira umwanya bafata wo kuyandika mu makayi yabo, kugira ngo igihe bari mu rugo bagire uko bayasubiramo, ibyo batumvise neza babasha kubyumva.

Ibibuga birubakwa ahubatswe amashuri, kugira ngo abanyeshuri bajye babona aho bakinira imikino, yaba iyo bakina bakoresheje intoki.

Amafunguro abana bafatira ku bigo byabo, haba harimo akawunga ndetse n'ibishyimbo. Hari nubwo bahabwa umuceri cyangwa bakabaha n'ibirayi.

Abanyeshuri bahabwa ibikapu byo gutwaramo amakayi ndetse n'amakaramu kugira ngo batagenda bayata mu nzira cyangwa akangirika kubera kuyatwara mu ntoki.

Tuzirikane gutoza abana umuco wo gusoma hakiri kare bizatuma bakura bakunze gusoma kandi gusoma ni nibyo bituma umuntu amenya ibintu byinshi bitandukanye.

Amashuri agomba kwitabwaho igihe bigaragara ko hari ahasizwe amarangi ashaje naho hakavugururwa kugira ngo abanyeshuri barusheho kwigira ahantu hasukuye.

Mu Rwanda hari gahunda imaze igihe ariko na n'ubu igikomeje yo kubaka amashuri akongerwa ndetse n'ayashaje akavugururwa, bigatuma abigaga kure bazabona amashuri abegereye.

Mu bigo by'amashuri hagomba gushyirwa ahabugenewe ho gushyira imyanda mu rwego rwo kugira ngo barusheho gutoza isuku abana ndetse no kuyinoza. Bigatuma batajugunya imyanda aho babonye kuko baba bafite aho bagomba kuyishyira habugenewe.

Ibitabo bigomba kwitabwaho kuko abanyeshuri babikoresha biyungura ubumenyi ndetse n'abarimu bakabikoresha bari gutegura amasomo bazajya baha abanyeshuri babo.

Aho hashyiriweho gahunda yo gufatira amafunguro ku bigo abanyeshuri bigaho, byatumye biga amasomo ya mu gitondo ndetse bakiga n'aya nimugoroba kandi nta nzara bafite.

Turusheho gushishikariza abana gukundana hagati ubwabo ndetse no gukunda ishuri kuko bizabafasha mu buzima bwabo, nibamara gukura bakigira hejuru batangiye nabo kugira inshingano.

Mu bigo by'amashuri hashyirwa imikino myinshi itandukanye, kugira ngo abanyeshuri igihe bagiye gukina babone aho bidagadurira bitewe n'icyo buri wese ashaka gukina.

Igihe wubatse ikigo cy'amashuri ibuka gusiga n'aho abazaza kugusura bazaparika ibinyabiziga byabo bajemo kugira ngo batazaparika ahatarabugenewe bakagira ibyo bangiza.

Ahubatswe amashuri hagomba kuba hari n'ubwiherero buhagije kugira ngo abahiga babone ubwo bakoresha kandi bugomba kuba bufite n'isuku ihagije.

Abarimu ni abantu b'ingenzi cyane kuko bafasha ababyeyi guha uburere abana babo igihe bari ku mashuri aho bigishirizwa, bakabaha n'ubundi bumenyi.

Hari ahashyizwe imihanda haba hategereye imihanda nyabagendwa, rero hashyirwaho icyapa kigaragaza aho hantu ko hari ishuri kugira ngo ukeneye kugera aho riri atayoba.

Hari imihanda yirekamo amazi kuko haba harajemo ibinogo, abahatuye bajye bibuka ku bisiba hakiri kare kuko iyo amazi yiretse hazamo imibu kandi itera indwara.

Uburezi ni ishingiro rya byose, kuko ibyo dukora cyangwa dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyinshi tuba twarabihawe n'ababitwigishije. Ni yo mpamvu ugomba gukangurira abandi, kwiga bashyizeho umwete.

Ku bigo by'amashuri kubera gahunda ihatangirwa yo kugaburira abanyeshuri yaba amashuri abanza cyangwa ayisumbuye, hashyirwa inkwi zizakoreshwa kugira ngo babone uko batunganyiriza amafunguro abanyeshuri.

Amasomo iyo ageze hagati abanyeshuri bagenerwa iminota yo kujya kwidagadura kugira ngo babone uko bagaruka mu masomo batarambiwe.

Hashyizweho gahunda yo gufata amafunguro ku ishuri aho abanyeshuri biga kugira ngo bibafashe, kuko hari abana batabonaga ibyo kurya igihe batashye saa sita bagiye mu rugo.

Turusheho kuzirikana isuku twirinde guta imyanda ahatarabugenewe, kuko bizaturinda indwara ziterwa n'umwanda, ndetse bitume n'ikirere cyacu kitangirika.

Intebe zimenyerewe ko zikoreshwa mu bigo by'amashuri, usanga zifite umwanya wo kwicaramo ndetse n'uwo kwandikiraho, hakaba hari n'aho umunyeshuri abika ibikoresho bye.

Hari ahakigaragara ibigo by'amashuri bisakaje amategura bigaragara ko ashaje bityo hagomba kwitabwaho na ho hakavugururwa kugira ngo abanyeshuri bahigira bige bafite umutuzo uhagije.

Rubyiruko mwese mwirinde, kirazira kunywa ibiyobyabwenge, kirazira kubiba amacakubiri, kirazira ndetse no kubicuruza kandi mumenye yuko iyo ubwenge bwayobye n'ibindi byose biba byarangiye.

Turusheho kongera ibyumba by'amashuri abana bacu bigamo, kuko bituma biga bisanzuye, bikagabanya ubucucike bugenda bugaragara mu mashuri hamwe na hamwe, ndetse bigatuma batanarangara.

Mu rwego rwo kurushaho kunoza umutekano inzego ziwushinzwe zegera n'ibigo by'amashuri zigatanga amabwiriza agendanye n'umutekano.

Ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, hagaragaramo n'amashuri yigisha imyuga, aho usanga hari n'abiga iby'ubudozi, bikazabafasha mu buzima bwabo.

Ahubatswe ibigo by'amashuri, hajye hitabwaho no gushyirwa ibiti kugira ngo bijye byongerera umwuka abana ndetse n'abarezi bahirirwa umunsi w'amasomo.

Ububiko bw'ibitabo bufasha abantu kuko iyo hari icyo ukeneye gusobanukirwa, urabegera ukabasaba igitabo ukagenda ukihugura, hanyuma igihe cyagera ukazakigarura.

Iyo hakozwe imihanda nk'igikorwa remezo hitabwaho n'inzira z'abanyamaguru kugira ngo aho baciye batazajya babangamirana n'ibinyabiziga, ibyo bituma impanuka ziba nkeya.

Ibigo by'amashuri bigira impuzankano yabyo, aho usanga hari abambara inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, amajipo ya kaki n'amashati y'umweru bagashyiraho na karuvati.

Iyo igihe kigeze ko abanyeshuri basubira ku mashuri, Leta ubu yarabitunganyije ku buryo buri Karere kagira igihe abanyeshuri bagirayo, hakaba hari imodoka zijyana abanyeshuri zikabageza ku bigo byabo.

Zirikana gutera ibiti kugirango ujye ubona umwuka mwiza uhumeka igihe uhatuye cyangwa uhakorera kandi bituma nk'igihe haje umuyaga mwinshi, bitangira uwo muyaga hanyuma ntiwangize amazu.

Mu ikorwa ry'imihanda hitabwaho n'inzira abanyamaguru bazajya bacamo ndetse hagashyirwaho naho bazajya banyura bari kwambukiranya umuhanda, kugira ngo ibinyabiziga nibihagera bireke n'abanyamaguru na bo babashe gutambuka.

Abakinnyi bakina umukino wa Volley b'abagore b'ikipe ya APR, bambara umwenda urimo umukara ndetse n'umweru, hashushanyije nimero zabo zibaranga mu mugongo, hakaba handitsemo ko ari ikipe ya APR FC.

Igihe cy'itangira ry'amashuri ibigo bikora umwuga wo gutwara abantu bijyana imodoka mu ma sitade cyangwa ahandi hagenewe guhagurukira abanyeshuri, mu rwego rwo kwirinda umuvundo ndetse no kubatinza mu nzira bigatuma batagera ku ishuri hakiri kare.

Hari ahubatswe ibigo by'amashuri muri gahunda yo kugira ngo ubutaka bukorerweho ibindi bwiyongere, hakubakwa ayagerekeranye kugira ngo abe ari yo akoreshwa.

Hari inama zihuza abayobozi ndetse n'abanyeshuri kugira ngo baherebwe hamwe amahugurwa kandi bikabafasha kuko ibintu byose ntabwo umuntu abyiga mu ishuri.

Ububiko bw'ibitabo bwabugenewe, bufasha abantu nk'iyo hari ibitabo bakeneye kujya gusoma mu ngo zabo kuko babona aho babikura, bikabafasha ku byo bari bakeneye kwiyunguraho.

Mu ikorwa ry'ikizamini cya Leta, abanyeshuri bakorera ku bigo byatoranyijwe, kandi buri wese akicara ku ntebe ari umwe, agahabwa urupapuro rw'ikizami, agakora ibye wenyine.

Mu bizami bya Leta abanyeshuri bahabwa impapuro ziriho ibyo bagomba gukora, buri wese agakora ku giti cye kugira ngo agaragaze neza ko ibyo yize yabimeye ku kigero yabyigishijwe.

Mu rwego rwo kurushaho kubungabunga ubuzima bw'urubyiruko ndetse n'abanyeshuri muri rusange, hubakwa ibibuga by'imyidagaduro kugira ngo abakinnyi bajye babona aho bakinira igihe bari gukora siporo.

Ubumenyi ni ishingiro ry'ubuzima, kuko ibyo umuntu yiga, iyo arangije amashuri biramufasha mu buzima aba agezemo, bigatuma akorera amafaranga amutunga ndetse akaba yatunga n'abandi.

Turusheho kubungabunga ibikorwa remezo twegerejwe, duca aho abanyamaguru bagenewe guca kugira ngo tutabangamira ibinyabiziga kandi twirinda gukandagira ahatewe ubusitani kugira ngo tutabwangiza.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri, harimo intebe abanyeshuri bicaraho igihe bari gufata amasomo ndetse n'intebe abarimu bicaraho igihe hari ibyo bari kwandika cyangwa se bafashe akaruhuko gatoya.

Amasaha yo kwinjira ku kigo ku banyeshuri yarongerewe kugira ngo n'abava kure bage bahagera amasomo atarabacika kandi bitume batangira batakererewe kandi bave no mu rugo hari icyo bafashije ababyeyi.

Amafunguro abanyeshuri bafatira ku bigo bigaho, bongererwaho na deseri nk'imineke kugira ngo ibafashe kongera ubudahangarwa bw'imibiri yabo.

Abanyeshuri bahabwa umwanya, bagasobanurirwa ibyo batumva neza, kandi na bo bakagira uruhare rwo kubaza kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibyo bigishijwe.

Ku bigo by'amashuri hashyirwa isomero kugira ngo abanyeshuri nibakenera kwiyungura ubumenyi, babone ibitabo bakuramo ibyo bakeneye gusobanukirwa ku giti cyabo.

Abana bitewe n'ibigo bigaho bagenerwa umunsi wo gukora siporo, icyo gihe uba ugomba kwibuka ko umwambika imyenda ijyanye n'iya siporo kandi ihuje n'iy'ikigo cyemera.

Zirikana ko igihe ugiye kwambuka umuhanda, ugomba guca mu nzira zagenewe kwambukiramo abanyamaguru, kugira ngo utabangamira ibinyabiziga cyangwa ukaba wagongwa igihe uri kwambuka.

Amashuri abanyeshuri bigiramo hagaterwa n'ubusitani burimo ibiti bizajya bituma umuyaga uba mwinshi, hanyuma izuba ntiryice abantu kandi barusheho guhumeka umwuka mwiza.

Mu mashuri abanyeshuri biga aho bafatira amafunguro, buri wese ahabwa ifunguro ku isahane ye ndetse usanga amafunguro bahabwa aba atandukanye ugereranyije n'ayo baba bafashe ku munsi ubanza.

Mu bigo by'amashuri usanga buri shuri, hari ikibaho abarimu bandikaho bari kwigisha abanyeshuri, amasomo babaha. Bityo bakandikaho n'ibyo bagomba gutwara mu makayi yabo.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, giherereye i Kigoma kitwa Indangamirwa gifite indangagaciro zirimo kubaha, gusabana, kubahiriza igihe, gukunda igihugu, kugira isuku.

Ahari ibigo bya Gatagara haba hari abanyeshuri bafite ikibazo cy'ubumuga ndetse bakabaha n'inyunganirangingo kugira ngo babashe kugenda bitabagoye cyane.

Ikigo cy'indatwa n'inkesha giherereye ahahoze hitwa i Butare, ubu ni mu karere ka Huye, ni mu ntara y'amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri iyo bashaka kwiyungura ubumenyi bagana isomero, bagafata ibitabo bitewe n'ibyo bashaka kwihuguramo cyangwa kumenya, nuko bagasoma bakabisangamo.

Ahari ibikorwa remezo, uhasanga idarapo ry'u Rwanda, nk'ahari amashuri ndetse n'inyubako z'utugari, imirenge, akarere ndetse n'ahari amavuriro.

Mu mashuri habamo na gahunda yo kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo nabyo bizakoreshwe n'ababyiga igihe bageze hanze, dore ko bisigaye aribyo bikoreshwa cyane.

Inzego z'umutekano ntabwo ziterera iyo ku baturage baba abanyeshuri, bituma babasanga aho biga kugira ngo bababwire amabwiriza agenga abantu kugira ngo batazajya bica umutekano.

Abanyeshuri leta ifata umwanya wo kubaganiriza nk'urubyiruko, kugira ngo bigishwe uko bagomba kwitwara badahungabanyije umutekano wabo cyangwa n'uw'abandi, bari ku mashuri cyangwa bari mu ngo iwabo.

Umunyeshuri wumvishije neza ibyo yigishijwe, na we ashobora kubisobanurira bagenzi be, bigatuma bose bazamukana mu ireme ry'uburezi.

Imyidagaduro ibamo ibikoresho bikoreshwa, aho usanga mu mikino hari ibikoresho abafana bakoresha kugira ngo batere morare abari gukina.

Hari abanyeshuri usanga amashuri bigaho ari kure bigasaba yuko bakoresha amagare kugira ngo batagerayo bakererewe bagakererwa amasomo yabo.

Ikoranabuhanga rirakataje mu igihugu cy'u Rwanda. Ni yo mpamvu abafite ubumuga nabo bigishwa kurikoresha kugira ngo batazasigara mu iterambere.

Ibigo by'amashuri bigira gahunda yo gusurwa kw'abanyeshuri bahiga, bityo mujye muzirikana kujya gusura abana banyu biga baba ku bigo kuko baba bakeneye umuntu ubageraho.

Amasosiyete atwara abantu, iyo igihe cyo gutangira cy'amashuri cyageze, berekeza imodoka zabo aho abanyeshuri bazahagurukira, kugira ngo babashe kubageza aho biga.

Idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu harimo icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, mu ibara ry'ubururu hagaragaramo izuba rishushanyijemo.

Ikigo cy'amashuri kitiriwe Mutagatifu Kizito giherereye ku Gikongoro, higamo abanyeshuri bambara impuzankano y'umwenda uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Iyo umwarimu yigisha abanyeshuri, afata n'umwanya wo kubajyana imbere ku kibaho bakagira ibyo basobanura cyangwa bandika bijyanye n'ibyo bize kugira ngo arebe ko bakurikira amasomo aba yabahaye.

Iterambere riri kwiyongera uko bukeye, uko bwiriwe; aho hari gushyirwa imihanda mu makaritiye agiye atandukanye, bikaba bisaba ko abantu bagomba kuyitaho baca ahabugenewe kugira ngo batangiza ibikorwa remezo.

Kugira ngo umwanya wo guterekamo ibindi bintu uboneke cyangwa ube munini, aho gushyiramo ibitanda bibiri mu cyumba, wakoresha kimwe kigerekeranye gifite ikiri hasi n'ikindi kiri hejuru yacyo.

Mu rwego rwo kwirinda inkongi y'umuriro ko yakataka ikigo cy'amashuri, ikangiza ibintu byinshi hari ahashyirwaho kizimyamwoto nyinshi, ku buryo bagwiriwe n'icyo cyago bakitabara hakiri kare.

Ikigo k'igihugu gishinzwe Ubuzima, hari aho cyagennye gishyira udukingirizo kugira ngo abadukeneye batubone kandi batubonere hafi.

Ibikoresho birimo intebe zifite n'utumeza zikoreshwa ku bigo by'amashuri kugira ngo umunyeshuri igihe yicaye ari kwandika ntibimugore.

Gira isuku ihagije; yaba aho urara ndetse n'aho ugenda hose ugerageze kugira isuku kuko ni yo soko y'ubuzima kandi na we biragufasha.

Isomero ribikwamo ibitabo kugira ngo ubikeneye abibone ndetse n'abanditsi babyo bajye babona aho babijyana kugira ngo ukeneye kukigura agire aho agisanga.

Abana iyo bagiye kwiga mu bigo by'amashuri, bakomeza imihamagaro yabo kandi bagasengera mu matorero basanzwe basengeramo ndetse hari n'abajya muri korali bakajya baririmba.

Ibigo by'amashuri bigomba kuzirikana y'uko imikino ari ingenzi kuko ari siporo kandi igorora umubiri bakubaka ibigo aho bashyize ibigo byabo kugira ngo abahiga bajye babona aho bidagadurira.

Amashanyarazi afasha abantu kugira ngo bamurike mu nzu zabo ndetse bagire n'ibikoresho bakoresha bikoreshwa n'amashanyarazi, nko gutera ipasi cyangwa kugira ibyo ubika muri firigo, kuko na yo ikenera umuriro.

Ahari ubusitani hashyirwa icyapa kigaragaza ko nta muntu wemerewe gucamo, kuko haba hari inzira zagenewe gucamo abantu bagenda n'amaguru.

Hari ahabikwa ibitabo kugira ngo ababikeneye babibone nk'abashaka kubigura cyangwa se no kubitira bakajya kubisoma bakazagaruka babizanye.

Ububiko bw'ibitabo haba harimo ibitabo byinshi, abantu bagiye bandika ku giti cyabo, ndetse iyo hari abakeneye kwiyungura ubumenyi, bajya kubirebayo hanyuma bakabisoma.

Kugira isuku aho urara, igihe ubyutse utunganye uburiri warayemo, ntubusige bujagaraye kandi wibuke no gukora isuku yaba munsi y'igitanda cyangwa n'impande zaho.

Igihe cyose dushaka guhumeka umwuka mwiza kandi uhagije, tuzirikane gutera ibiti mu busitani bwacu cyangwa aho dutuye ndetse n'ahandi twashyize inyubako.

Amahugurwa agenerwa abashinzwe serivise mu burezi kugira ngo barusheho gutanga uburezi bufite ireme, dore y'uko ari ho shingiro ry'ubuzima bw'ejo hazaza kuri benshi.

Amashuri yubakishwa ibikoresho bikomeye kugira ngo azakorerwemo igihe kirekire kandi hakitabwaho n'ahasigaye ubutaka kugira ngo hashyirwe ubusitani ndetse ntibibagirwe no gushyiramo ibibuga by'abanyeshuri.

Kurushaho gushyigikira imyidagaduro, usanga hari ibigo byubatse amasitade aho abanyeshuri bamwe baza gukina ndetse n'abandi badakina uwo mukino baje gufana bakabona aho bicara baticwa n'izuba.

Mu masomo abanyeshuri biga hari ayasabwa ko bajya muri laboratwari bitewe n'amashami biga kugira ngo babone uko bazavura nibagera hanze.

Inyubako yose igiye kubakwa, biba byiza iyo hitaweho kwibuka gukora n'inzira z'abafite ubumuga kuko hari igihe usanga izindi nzira zigoye gucibwamo.

Hari abanyeshuri bitewe n'amasomo bize, bafatira ayandi mu malaboratwari, bakiga gupima ibijyanye n'ibyo biga kugira ngo nibagera hanze bazabikoreshe.

Noza isuku ku nyubako zawe haba ahaterwa jaride ndetse n'aho abanyamaguru bagomba guca kugira ngo ujye uhorana isuku aho utuye ndetse n'aho ukorera.

Aho abanyeshuri biga baba mu bigo bubakirwa amazu yo kujya bararamo ndetse bagashyirirwaho n'aho bazajya banika imyenda igihe bameshe.

Mu rwego rwo kuzirikana abangavu ku bigo by'amashuri bashyiriweho icyumba cyabo kugira ngo ugize ikibazo yagiye mu mihango abone uko afashwa.

Amashuri abanyeshuri bafatiramo amasomo, hagomba kuba hari isuku kandi hakaba hari ibikoresho bihagije, byiganjemo intebe n'ameza bakoresha igihe bari kwiga.

Aho umuntu arara agomba kuhitaho akahatunganya akahagirira isuku, igihe amashuka yanduye ukayakuraho ugasasa andi kandi igihe ubyutse ukibuka gusiga uhatunganyije.

Kugira ngo turusheho kubungabunga ubutaka dufite aho kugira ngo bwose bwuzureho inyubako, ni yo mpamvu ahagiye kubakwa amashuri ubu hashyirwa ayagerekeranye kugira ngo ubutaka busigaye bukorerweho ibindi.

Ikigo cy'amashuri gifite abanyeshuri biga baba mu kigo, bagira aho banika imyenda igihe bameshe aho kuyanika hasi kuko hari igihe hinjiramo udukoko.

Ahari ibigo by'amashuri hagirirwa isuku ihagije, aho usanga hari ubusitani duteyemo ibiti yaba ibizana umuyaga ndetse n'ibindi biba byeraho n'imbuto ziribwa.

Muri gahunda yo kurushaho kwita ku buzima bw'abakobwa, dore ko butamera nk'ubw'abahungu, niyo mpamvu hagiye hashyirwaho icyumba cy'abakobwa mu bigo by'amashuri kugira ngo igihe bagize ikibazo babone aho baruhukira.

Kugira ngo amashuri akomeze kwakira abanyeshuri benshi kandi bige bisanzuye, hatekerejwe na gahunda yo kubaka amashuri agerekeranye, kugira ngo ubutaka yajyagaho bube butoya.